Iguriro ririmo imitako ya kinyarwanda, ririmo agatebe gato ka kinyarwanda, ririmo amakanzu.

Umudamu uhagaze imbere yo bakirira amafaranga, ashyirwa kuri konti muri banki, imbere ye hari amafaranga ndetse n'ikirahure gitandukanya uje gutanga amafaranga n'umwakira.

Amafaranga y'u Rwanda angana n'igihumbi ashushanyijeho ibiti, imisozi ndetse n'ibirunga.

Kubirwa kabiri umushahara na banki ya Ekobanki, va mu buryo wari usanzwe ukoresha ujye gukoresha Ecobank maze ukubikrwe kabiri, umushahara wawe binyuze ya banki ya Ekobanki.

Akazu kifashishwa n'umukozi wa MTN, mu gutanga amayinite, simukadi, kari iruhande rw'umuhanda, iruhande hari ipoto ry'amashanyarazi, iruhande rwaho hari inzu y'abaturage.

Inzu ikodeshwa iherereye muri Kigali muri Kacyiru, ikodeshwa mafaranga igihumbi magana atanu ku kwezi, iriho ibirabyo ni etaje.

Abaturage aho umwe muri bo ari guhabwa ikarita y'ubwisungane mu kwivuza izwi nka mituweri do sante, inyuma hari abaturage benshi barimo kureba.

Ikirango cy'Ikigo cy'Igihugu cy'Ubwiteganyirize bw'Abakozi mu Rwanda, aho harimo ubwisungane mu kwivuza aribyo bita mituweri, akaba ari na yo mpamvu babatangira imisanzu izabafasha mu zabukuru.

Iguriro rigizwe n'ibicuruzwa bitandukanye, harimo inzoga, harimo ifu ivamo amata, harimo isabune y'ifu yo kumesa, harimo amajyane ari mu' ikarito, n'ibindi bitandukanye.

Umugabo uri mu iguriro, uteruye mudasobwa, wambaye umupira w'umukara, inyuma ye hari umusore wambaye ikote ry'umukara, imbere ye hari umugore ufite telefone mu ntoki.